Uburyo bwitwa tap and go. Ntabwo byemewe ko umuntu yishyura amafaranga mu ntoki y'urugendo. Agomba gushyira amafaranga ku ikarita, yaba yinjiye muri bisi noneho agakozaho ya karita, amafaranga y'urugendo akaba arayishyuye. Nibwo buryo bwonyine bwemewe, ukoresheje ikarita y'urugendo yabugenewe.

Ikiganiro cya Rwanda Revenue Authority, ikigo gishinzwe kwishyuza umusoro n'amahoro, icyo kiganiro cyabo kiri butambuke kuri radiyo Rwanda, tariki makumyabiri n'imwe, z'ukwa cumi, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, isaha ya saa mbiri z'umugoroba na cumi n'itanu, kibutsa abanyarwanda bose ko, itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro w'ipatante y'igihembwe cya nyuma cy'umwaka wa bibiri na makumyabiri na kane.

Inzu y'ubucuruzi y'ubucuruzi ikodeshwa hasi ndetse no hejuru, hasi abahakorera barafunguye bacuruza amacupa ya gaze, ariko abakorera hejuru ubu haracyafunze.

Ahantu kwa muganga hanze, abarwaza bicaye. Haragaragara umuforomo arimo aratambuka, abamama bicaye hanze bashobora kuba barwaje, harimo n'abo barwaje bicaye hanze.

Ku kigonderabuzima aho abantu bivuriza kwa muganga ku bitaro hakaba hagaragaza icyapa aho umuntu ashobora gufatira imiti igihe asoje kwivuza.

Akenshi ibingibi biba mu gihe cy'abaturage, aba bashobora kuba ari abunzi, hari abaturage bafitanye ikibazo bafitanye ibibazo bajyanwa hagati y'abunzi munama runaka ,bakagezwaho ibibazo byabo ubundi bakabunga cyangwa se bagahosha amakimbirane ari hagati mu baturage.

Imodoka itwara peteroli cyangwa se esansi, iri mu nzira ariko ishobora kuba yahuye n'ikibazo k'inkongi y'umuriro ku ruhande rw'iburyo hariho umuntu urimo kuyifasha kuzimya ya nkongi y'umuriro.

Umukandida Mpayimana Philippe, mu kwiyamamaza kwe kw'amatora yari umwe mu bagize kandidatire ku mwanya w'umakuru w'igihugu, mu matora ya bibiri na makumyabiri na kane, yari mu kiganiro cye n'itangazamakuru.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa twegeranye iraparitse muri gare itegereje abagenzi, umugabo w'umushoferi nyirayo ahagaze ku muryango wayo, ategereje ko igerwaho apakire.

Umukozi wikorera ibintu biremereye akoresheje akantu kabugenewe ashyiraho ibintu bifite ibiro byinshi yarangiza akabisunika abijyana abikura mu gace kamwe abitwara mu kandi ariko katari kure cyane.

Ahapakirirwa ibyo kurya ku ruganda bitandukanye birimo birapakirwa mu modoka n'abakozi kugira ngo byoherezwe mu ntara.

Aha hagaragaza icyapa cyerekana aho Akanyaru Huye na Muhanga biherereye werekeza mu majyaruguru, noneho mu ruhande rw'ibumoso bakerekana ko uhanyuze ushobora kugera mu Ruhango ndetse na Kinazi ndetse bikagaragaza n'intera y'aho kungana.

Icyapa cya mirongo itandatu. Kigaragaza ko aha hantu utemerewe kuharenza uhagendera mu muvuduko uri hejuru ya mirongo itandatu. Ntabwo byemewe rwose kugendera ahantu urengeje umuvuduko.

Irushanwa rizenguruka igihugu cy'u Rwanda ryo gusiganwa ku magare rigenda rizeguruka mu turere dutandukanye, bageze mu karere ka Muhanga ,abaturage ni benshi babategereje ku muhanda ,barimo barareba abasiganwa ku magare batambuka.

Ururongo rucagaguye mu muhanda tugaragaza aho imodoka yemerewe kunyuraniraho mu ruhande rw'ibumoso. Ahantu hagaragara uyu murongo mu muhanda, uba wemerewe kunyuraho ku yindi modoka ngenzi yawe ikuri imbere, mu ruhande rw'ibumoso.

Ahantu imihanda ihurira, aho hantu ni ho haba hari n'inzira z'abanyamaguru zo kwambukiramo ndetse hakaba hari na cya camera cyo gucunga umuvuduko, igihe umuntu yaba arengeje umuvuduko kikaba gishobora kumwandikira.